Amashuri ari ahantu heza yubatswe kijyambere ,hari ikibuga cyiza bakiniramo umupira wa volebalo.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bicaye, imbere yabo hari umugabo uri kubigisha , ubona ko bishimiye amasomo arikubaha.

Inyubako yubatswe kijyambere, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite intebe zigezweho za kijyambere.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe kijyambere, gitangirwamo ubumenyi n'ikoranabuhanga, aho abanyeshuri basohoka bafite amanota meza.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gufungura amaburo，cyangwa bikoreshwa mu gukora amashanyarazi.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga umwuga w ubukanishi, ni bumwe mu mirimo idufasha mu kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bambaye imyenda y'ubururu, bari kuvura amatungo magufi. Ni byiza kwita ku matungo kugira ngo aduhe umusaruro uhagije kandi ushimishije, mu gihe tuwujyanye ku isoko amafaranga akatuviramo.....

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga imyuga itandukanye, harimo:uw'ububaji, wifashishwa mu gukora ibikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero: intebe, ameza, utubati, n'ibindi bitandukanye.

Urubyiruko rw'abanyeshuri, rwiganjemo abakobwa n'abahungu. Ubona ko bakoreshejwe inama bakaba bari gutanga ibitekerezo, cyangwa bari kubaza ibibazo bafite.

Urubyiruko rw'abanyeshuri, rurimo abakobwa n'abahungu, barimo kwigira ku ikoranabuhanga rigezweho.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiganjemo abasore n'inkumi bari kwiga umwuga w'ububaji ubona ko bakoze utugurupe.

Urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bambaye imyenda y'ishuri, bicaye ku ntebe barimo gufata amafunguro yiganjemo ibikomoka ku matungo, n'ibirinda indwara.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiganjemo abakobwa n'abahungu, bahagaze iruhande rw'inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere isakaje amategura....

Abagabo babiri bari guhambura moteri, inyuma yabo hari ameza asize irangi ry'umutuku.

Umwuga w'ububaji ni kimwe mu bintu twifashisha, dushaka abantu badukorera inzugi zo gukinga mu ngo zacu.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga ibijyanye n'amashanyarazi ,aho bari gukora ibyo biga mu ishuri.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa nabahungu bize ubuganga ubona ko bari gukora pulatike y'ibyo bigishijwe.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa n'abahungu bambaye ishati yumweru n'ijipo y'ubururu, ubona ko bari gusuka mugenzi wabo.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rurimo abahungu n'abakobwa bambaye amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo by'umukara, bari kumwe n'umwarimu uri kubafasha gusubira mu masomo.

Urubyiruko rw'abanyeshuri biganjemo abasore n'abakobwa bambaye imyenda y'ubururu, ubonako barimo gukanika imodoka kuko ni byo bigishijwe.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, barimo kudoda imyenda dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rurimo abasore n'inkumi ,bambaye amasurubeti y'ubururu barimo gukanika moteri.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwambaye amashati y'ubururu harimo abakobwa n'abahungu ubona ko bishimiye isomo bari kwiga.